Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bambaye imyambaro myiza, bicaye batuje bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa.

Abantu bateraniye hamwe mu nama bicaye batuje imbere yabo hari umubyeyi ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuvuga ijambo.

Abakobwa b'abanyarwandakazi babyina imbyino nyarwanda bambaye imikenyero, barapfukamye bafite ibisabo n'inkongoro mu ntoki biteguye gucunda amata.

Abakobwa beza cyane biteye ibirungo by'ubwiza bicaye ku gitanda, bambaye imikenyero n'imyitero bari kumwenyura.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa, bari mu gitaramo nyarwanda, imbere yabo hari ababyinnyi bari kubasusurutsa.

Abantu benshi cyane, barimo abana, abagabo n'abagore, bari kugenda bihuta, hejuru y'ikiraro gisize amarangi y'icyatsi, hirya yabo hari ibiti birebire.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru n'umukara, ifite imiryango myinshi, isize amarangi y'icyatsi, iruhande rwayo hateye ibiti, hashinze n'umunara.

Abantu benshi bateraniye hamwe, barimo abantu bo mu nzego zitandukanye z'Igihugu harimo abapolisi, abasirikare n'abandi, bicaye mu ihema, ririho ibitambaro biri mu mabara yo mu idarapo ry'igihugu.

Ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru, gifite uruzitiro runini, kirimo abakinnyi bari gukora imyitozo ngororamubiri, bakina umupira.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo igare ririho umunyonzi, rihetse ibitoki, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.